Ibiro birimo abakozi ba leta, bicaye ku ntebe z'umukara, harimo abambaye agapfukamunwa gasa ubururu. Ni mu gihe cyo kwirinda icyorezo cyari cyarugarije isi cyitwa korona virusi.

Umugore ufite indangururamajwi mu ntoki, ahagaze imbere y'urubyiruko rwinshi cyane, muri urwo rubyiruko bambaye imipira y'ubururu, iriho ibirangantego by'ibintu baje gukora hano kandi bari mu nzu nini cyane.

Abantu barimo barabyina bishimye. Harimo n'umupasiteri wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ikoti ry'umukara. Bari ahantu mu mahema, bigaragara ko baje guhabwa imbwirwaruhame.

Abantu bari mu nama imbere yabo hari umugabo wambaye umupira w'umutuku ufite indangururamajwi, n'inyuma y'uwo mugabo hari inyakiramashusho iri kwaka, hirya gatoya hari ibyapa bigaragaza igikorwa baje hano kwitabira.

Icyumba kinini cyane kirimo intebe zisa ibara ry'umutuku, hasi hashashe umukeka usa ubururu munini cyane, akaba ari ahantu hateraniye abantu benshi, bigaragara ko baje mu giterane cy'amasengesho.

Abantu bicaye mu biro, imbere yabo hari mudasobwa, bakaba bambaye amakoboyi abandi bambaye imyenda ya kositimu, hagati na hagati hari amazi akorwa n'uruganda rw'Inyange rukorera mu Karere ka Kicukiro.

Abantu bahagaze barimo barakoma amashyi bambaye utuntu mu ijosi tugaragaza igikorwa barimo ko bahuje umugambi, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru, ateretseho uducupa tw'amazi y'inyange.

Abayobozi bari mu nama bambaye, ikote ya kositimu undi yambaye umupira w'umweru, imbere yabo hari ameza ariho amazi y'uruganda rw'inyange, aho umuntu agenda asomaho iyo afite icyaka.

Abagabo bari gukoresha mudasobwa bambaye kositime z'amabara agiye atandukanye. Bari mu nzu nini cyane ifite igisenge kiriho amatara yaka ibara ry'umuhondo. Hirya cyane hari n'umuryango.

Abagabo bari mu nama imbere yabo hari uducupa tw'amazi ndetse n'utw'umutobe wa pome ndetse n'uwironji, bakaba bafite icyuma kimurika ku rukuta kigatanga amashusho gisa ibara ry'umweru.

Umuntu uri kuvugira ku ndangururamajwi, imbere ye hari mudasobwa ifunguye, hirya ya mudasobwa hari agacupa k'amazi akorwa n'uruganda rw'inyange rukorera mu karere ka Kicukiro.

Abayobozi bari mu nama. Bicaye ku ntebe zisa ibara nk' iry'ivu. Bamwe muri bo bambaye amadarubindi. Abandi ni abadamu bambaye neza cyane. Hari n'abandi bagabo bambaye kositimu z'umukara.

Abagabo bageze muri bane, umwe muri bo ni umuzungu, yambaye amadarubindi, yambaye kositimu isa umukara, bicaye ku ntebe zisa ibara rya kaki, bari gukorera ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere myiza.

Intebe zisa nk'ivu zicaweho n'abagabo batatu ndetse n'abandi benshi bari inyuma, muri aba bari imbere harimo uwambaye amadarubindi ndetse n'undi uri gukoresha telefone ye igendanwa mu ntoki.

Abantu bari mu nama batatu, bakorera umujyi wa Kigali, bicaye ku ntebe z'umukara imbere hari uducupa tw'amazi y'uruganda rw'Inyange, hakaba hari n'umuzungu uri hafi aho bateganye.

Kigali yacu abayobozi b'umujyi wa Kigali bari mu nama, bari ku meza imeze nk'ikizeru, aho buri wese arimo ararebana n'undi, bicaye ku ntebe z'umukara ndetse barimo baraganira bungurana ibitekerezo.

Abagabo babiri umwe afite ikaramu mu ntoki ndetse na terefone igendanwa ubundi we arimo aramuvugisha yambaye ikositimu y'umukara, imbere ye hari agacupa karimo amazi.

Abagabo bari mu nama umwe yambaye ishati isa umweru, arimo arabavugisha n'umuyobozi wabo hasi hari imeza iriho uducupa tw'amazi, akorwa n'uruganda rw'inyange rukorera mu Rwanda.

Mudasobwa ziteretse ku gitambaro cy'umweru, hasi hasashemo umukeka ugezweho, hakaba hicayemo n'abantu bari mu nama umwe muri bo afashe telefone igendanwa arimo arayikoresha.

Ababyeyi bicaye ahantu hasa nko mu nteko ishinga amategeko ku ntebe zisa nk'ibara ry'ivu harimo abambaye imikenyero bitadiye agatambaro k'umutuku hari n'undi wambaye amadarubindi.

Abagore babiri b'inzobe, umwe yambaye ijire isa umukara ndetse n'imbere harimo ishati y'ubururu, imbere ye hari amazi y'uruganda rw'Inyange ku meza hakaba hari na telefone zigendanwa bahateretse.

Abaturage bari mu nama y'umudugudu wabo, harimo uwambaye kositimu n'undi wambaye ibitenge ufite inkoni, bigaragara ko ari ababyeyi bakuze barimo baragira inama urubyiruko

Abantu benshi bari mu nama bicaye ku ntebe zisa umutuku hasi hasashe amakaro asa kacyi ndetse n'umweru, bakaba bafite n'impapuro n'amakaramu bandika ibyo bari kubwirwa.

Abantu bari mu nama harimo uwambaye amadarubindi na kositimu y'umukara, imbere yabo harimeza iteretseho ibitabo ikaba iriho n'igitambaro cy'umweru, inyuma y'aba bagabo hari abandi bantu benshi cyane nabo bakurikiye inama.

Abakozi ba leta bari mu nama bicaye imbere, ni abagore batatu bambaye bose amadarubindi, umwe muri bo uri hagati afite ikaramu mu ntoki, imbere yabo hari n'uducupa tw'amazi.

Abantu bari mu nama b'abayobozi, imbere yabo hari mudasobwa bari gukoresha ndetse ni abagabo benshi biganjemo abambaye kositimu, hagati na hagati hari uducupa tw'amazi akorwa n'uruganda rw'Inyange.

Umukozi wa Leta yambaye amadarubindi ari mu nama. Imbere ye hari amazi ari mu gacupa k'ikirahure, ashize amaboko ye ku meza iriho igitambaro cy'umweru, yicaye ku ntebe.

Umugabo w'umusirikare wambaye imyenda y'abaturage isanzwe, afite indangururamajwi mu ntoki ze, arimo araganiriza abaturage inyuma ye hari abandi basirikare benshi bari mu itente isa umweru.

Abayobozi bakora muri Minisiteri ya siporo y'u Rwanda, harimo umugore wambaye amadarubindi, akaba arimo aramwenyura, hirya ye hari n'undi muhungu ufite imisatsi myinshi nawe ukora muri iki kigo.

Icyapa cya Rwanda reveni k'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, bari kwerekana uburyo wamenyekanisha avansi ya gatatu y'umusoro ku nyungu, ukoresheje telefoni.

Umunara w'itumanaho uri mu ibara ry'umweru, umutuku, hejuru hari ibisahani bibiri biteye irange ryererutse kandi hirya hari igiti gifite amashami maremare ajya kureshya n'uyu munara.

Urubuga rw'irembo, ushobora kwakira ubutumwa bugiye butandukanye bw'uru rubuga rukwigisha ukuntu wakwishyura ndetse ukanasaba serivisi za leta, bitakugoye, bitagusabye kujya gutakaza amafaranga yawe.

Abanyeshuri barimo bariga bifashishije mudasobwa, hirya yabo hari umwarimu urimo urabahugura bambaye bose udupfukamunwa ni mu gihe hari hari icyorezo cyari cyarateye Isi cyitwa Koronavirusi.

Icyapa cya Rwanda reveni ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Bari kwerekana ko umunsi ntarengwa wo kwishyura, ari tariki makumyabiri n' icyenda z'ukwa Kabiri, ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane. Kiri mu ibara ry'ubururu.

Abanyeshuri bari muri laboratwari bigiramo ibijyanye n'ubushakashatsi mu by'ubuzima. Bakaba bambaye impuzankano y'ishuri, umwe yambaye ishati y'umweru ndetse na karuvati isa ibara ry'icyatsi.

Umugabo wambaye ishati y'igitenge, yambaye n'ingofero y'umukara, ahagaze mu muryango w'igiti, inyuma ye hari undi muntu, ku ruhande hari icyapa kiriho ibintu bigiye bitandukanye bagiye bakora muri iyi nzu.

Abagabo babiri bafite telefone mu ntoki, umwe muri bo afite akamashini gasohora itike, aho umuntu atanga amafaranga bakamuha urupapuro ruriho umubare w'amafaranga yishyuye y'urugendo arakora.

Icyapa cyamamaza ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro cya Rwanda reveni, aha ni kuri konte yabo, aho ushobora kwinjiramo ukabasha kumenyekanisha imisoro yawe.

Umunara muremure uri mu ibara ry'umutuku n'umweru, hasi hari utuzu twabugenewe abatekinisiye baza gukoresha iyo baje kuwukora, hakaba hakikijwe n'ibyuma birinda abantu kwinjiramo.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro cya Rwanda reveni. Dore uko wakjiza amakuru ya konti yawe muri banki, injira ukoresheje tini n'ijambo banga. sisitemu irahita iguha paji wuzurizaho amakuru ya konti ya banki.

Inyubako iri mu ibara ry'ubururu harimo ibyo kwamamazwa bigiye bitandukanye by'ikigo cya Eyateri na Emutiyeni bishinzwe itumanaho mu Rwanda no guhererekana kw'amafaranga hifashishijwe ikoranabuhanga.

Umunara w'itumanaho wa emutiyeni hirya hari n'icyapa cy'umuhondo cy'iki kigo hagati mu muhanda hari abamotari babiri batwaye abagenzi bari kugendera mu muhanda wa kaburimbo.

Irembo ni uburyo bwa Guverinoma y'u Rwanda ifasha abaturage mu kubona serivisi za Leta bitabasabye kujya ku Mirenge ndetse no ku zindi nzu za Guverinoma zishinzwe gutanga ibikorwa ku baturage.

Irembo ikigo cya leta gishinzwe gutanga serivisi z'igihugu, wifashishije mudasobwa cyangwa telefoni igendanwa, hano ibintu byose urabyikorera bidasabye ko ujya gushaka umuntu wabigukorera.

Umukobwa uri gukoresha telefone igendanwa ikaba icometse kuri mudasobwa yiwe. Ari gukoresha imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye aho bimufasha kuba yakurikirana amasomo ye neza, ndetse bikanamufasha kuba yagira ibyo acukumbura.

Icyapa kigaragaza ikigo k'igihugu gishinzwe iterambere, hakaba bari kwerekana ko tariki makumyabiri n'enye kugera tariki n'esheshatu z'ukwa kabiri ibihumbi bibiri makumyabiri na gatanu, hazaba inama mu mujyi wa kigali, ijyanye n'iby'ikoranabuhanga.

Ibihembo bya FIA bishinzwe guha abantu amashimwe baba barigaragaje mu mukino w'isiganwa ry'imodoka, byabereye mu Rwanda ku itariki ya cumi kugeza ku ya cumi na gatatu mukwa Cumi n'abiri ibihumbi bibiri na makubiri na kane.

Umunara w'itumanaho wa Emutiyene ndetse na Tigo uri mu ibara risa umutuku n'umweru, hariho ibintu bimeze nk'ibisahani binini cyane bishinzwe gukurura amarezo ya telefoni ndetse n'aya radiyo.

Icyapa kigaragaza ibirori byo gutanga ibihembo by'amasiganwa. Haburaga umunsi umwe ngo bibe. byatangiye ku itariki ya cumi, kugeza ku itariki ya cumi na gatatu, z'ukwa cumi n'abiri, ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Ikigo k'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, kiri kumenyekanisha ko itariki ntarengwa yo kwishyura umusoro ari tariki mirongo itatu na rimwe z'ukwambere ibihumbi bibiri na makumyabiri nagatanu, ushobora kwifashisha mudasobwa yawe ukishyura.

Urubuga rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, rurimo rurerekana ukuntu umuntu azishyura imisoro muri bibiri na makumyabiri na kane, hariho ko n'itariki ya mirongo itatu nari rimwe z'ukwa mbere, bibiri na makumyabiri na gatanu ariwo munsi ntarengwa wo kwishyura.

Ikigo cy'igihugu cya Rwanda revenu dore uko wakiyandukuririra basuwadi muri i takisi sura wa wa wa akadomo rawa akadomo ga na o na va akadomo rwa ubashe kubona uko wabigenza.

Minisiteri yo mu Rwanda, ushobora kujya kuri imeri cyangwa ugahamagara rimwe rimwe kane cyangwa rimwe cumi na kabiri, bakabasha kuba bagufasha ikibazo cyose waba ufite. Ni minisiteri ishinzwe ubuzima.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB, iri ni itangazo ryacyo cyerekana serivisi gikora, zigenda zifasha abaturage kunogerwa n'ibikorwa bya Leta.

Irembo urubuga rwa leta rushinzwe gufasha abantu kugera kuri serivisi z'igihugu bitabagoye, wahamagara mirongo icyenda mirongo icyenda n'icyenda cyangwa ukabandikira kuri whatsapp yabo, zeru karindwi mirongo icyenda na kabiri kabiri kabiri kabiri kabiri zeru.

Inzu iriho ibyapa by'itumanaho, harimo kimwe gikorera mu Rwanda cyitwa eyateri, gishinzwe ibyo guhererekanya amafaranga ndetse n'itumanaho ryo kuvugana n'abantu ndetse n'abavandimwe bawe wifashishije telefone igendanwa.

RURA ikigo cy'igihugu gishinzwe ibijyanye n'ubuziranenge bw'ibintu. Hari kwamamazwa uburyo bw'ikoranabuhanga umuntu ashobora kunyuraho, akabasha kuba yamenyekanisha ibintu bye. Itariki ntarengwa yo kubikora ni tariki cumi n'ebyiri z'ukwa karindwi, ibihumbi bibiri na makumyabiri.

Irembo, byikorere kanda kuri, kwiyandikisha, gukomeza, ikizami cyo gutwara ibinyabiziga, ibisabwa, usabwa ugomba kuba ufite indangamuntu y'igihugu cy' u Rwanda.

Abana bicaye mu nzu y'ikoranabuhanga cyangwa mu isomero bafite mudasobwa zabo imbere yabo barimo barasubira mu masomo bize kandi hari n'abandi bari inyuma bafite nabo ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga barimo barihugura.

Imodoka ya bisi itwara abagenzi ifite ibara ry'icyatsi n'umweru y'uruganda rwitwa ritiko rukora imodoka. Inyuma yayo hari igikamyo cy'umutuku gitwara umucanga.

Ipoto ririho insinga z'umuriro w'amashanyarazi zigemura umuriro mu mago y'abantu agiye atandukanye, inyuma yaryo hari igipangu kiriho nimero mirongo itatu, niyo ikiranga ahantu giherereye; giteye irangi ry'ivu ndetse n'irangi ry'umuhondo.

Ipoto y'umuriro w'amashanyarazi, ikaba inashamikiyeho itara ryo ku muhanda, munsi hari ubusitani buteyemo amawuwa asa umuhondo, ku ruhande hari urukuta ruriho amatafari ahiye.

Amapoto abiri ajyana umuriro w'amashanyarazi, hirya y'aho hari ishyamba ririmo ibiti byinshi cyane, hakaba hari n'inyubako y'amagorofa yubatse iteye irangi ry'umweru.

Ahantu hari uruzitiro rw'ibyuma bisa umutuku, mo imbere harimo ibindi byuma byabugenewe mu kubika umuriro, ahangaha nta muntu uba wemerewe kuhegera kuko haba hari ibyago byinshi byo kuhasiga ubuzima.

Inzu iriho amatafari ahiye kandi iyo nzu ifite igisenge kizwi nk'agacurama, iteye irangi ry'ivu, hariho icyapa kinini cyane, kiriho amagambo atandukanye.

Umusozi munini cyane uriho ibiti, bigaragara ko ari mu gihe izuba rigiye kurenga, hari ipoto y'umuriro w'amashanyarazi iriho insinga zitwara uyu muriro mu ngo z'abaturage.

Ipironi y'umuriro w'amashanyarazi, hirya yayo hari ibihuru n'ibyatsi bigiye biyikikije, iyi ngiyi ishinzwe gutanga umuriro ku bantu benshi cyane ndetse no mu tugari tugiye dutandukanye tw'igihugu.

Amapoto abiri ariho icyuma gihindura ubukana bw'umuriro kikawugabanya ku buryo ki ubasha kugera mu baturage, hirya hari inyubako z'abaturage ziriho amatafari ahiye n'igisenge gitukura.

Ikorosi ry'umuhanda wa kaburimbo usa umukara, hirya hari ipoto rirerire ribonesha mu muhanda ribaho itara, hakaba hari n'icyapa kigaragaza ko hano imodoka zihahagarara.

Ahantu haterwa imikindo ikiri ibyana, bayitera mu mifuka, hano umuntu aragenda akagura umwe muri yo akawujyana iwe, akajya awusukira, bityo ukagenda ugakura ukaba inganzamarumbo.

Moto ziri kugendera mu muhanda w'umukara, urimo urujya n'uruza rw'abantu, imbere yaho hari kwasiteri y'umweru itwara abantu rusange ndetse hari n'ibiti binini bimanikwaho insinga zigemura umuriro w'amashanyarazi.

Uyu ni umunara w'ikigo cy'itumanaho cya eyateri kiri kwamamaza serivise zacyo imbere harumuhungu wambaye igisurubeti cy'ubururu uri gukoresha terefone ye igendanwa hirya ye hari abamotari batwara abagenzi.

Ahantu habugenewe umugenzi yicara ategereje imodoka, ni akazu k'ubururu, inyuma yako hari ipoto ndende cyane inyuraho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi mu ngo z'abaturage.

Inzu y'igorofa y'ubucuruzi hari imiryango igiye itandukanye ikorerwamo serivisi zinyuranye; imbere hari ipoto y'umuriro w'amashanyarazi iriho n'itara riboneshereza ku muhanda nijoro.

Umuhanda wa kaburimbo hirya yawo hari akayira k'abanyamaguru kashashemo amabuye, ku ruhande rw'ako kayira naho hari ubusitani buteyemo amapoto maremare ashyirwaho amatara yo ku mihanda.

Icyuma bashyira hejuru ku gisenge cy'inzu, kiba gikonjesha amazi cya kikayashyushya, iki cyuma gisa ibara ry'umweru, kandi imbere y'iyi nzu hari urugo ruyikikije rw'indabo.

Imodoka ziparitse ahantu hashashe kaburimbo, imbere yazo hari inyubako yubakishije amategura hakaba hari n'ipoto iriho itara icana umuriro w'amashanyarazi.

Ibitaro bya Kabgayi, icyapa kiriho iri zina ry'ibi bitaro kikaba giteye mu busitani, inyuma yabwo hari inzu ndende cyane, ifite igisenge cy'ubururu, hejuru hari anteni.

Ubusitani bwiza burimo ikigega kinini cyane cy'amazi. Imbere hari amamodoka menshi aparitse kandi ni ku bitaro. Hakaba hari n'umurwayi wambaye igitenge uri kugana ku bitaro.

Umuhanda wa kaburimbo uherereye ku bitaro; hirya hari ikigega gisa umukara kibikamo amazi hasi y'icyo kigega hateye ubusitani buteyemo n'amawuwa asa ibara ry'umuhondo.

Inzu ishashemo amakaro hasa ibara ry'umukara, hicayemo ababyeyi baje kwivuza, bigaragara ko ari kwa muganga, imbere hari imiryango isa ibara rya kaki nk'igisenge kirimo amatara ajimije.

Inzu z'amagorofa zigeretse kabiri, hameze nko ku Karere, haparitsemo imodoka nyinshi, muri parikingi kandi hashashemo kaburimbo, hari n'abaturage barimo baragenda kwaka serivisi za leta.

Abantu barimo baragenda ku muhanda ushashemo amabuye. Umwe afite akabido k'umuhondo mu ntoki. Inyuma yabo hari imodoka y'imbangukiragutabara iri mu ibara ry'umweru, iparitse.

Imiryango iri mu ibara ry'umweru, hanze hari amakaro asashe hasi ndetse n'intebe abantu bicaraho bategereje guhabwa serivisi kwa muganga, hirya hejuru hari igisenge cy'amabati.

Korodoro irimo intebe zigiye zitandukanye abantu bicaraho bategereje guhabwa serivisi, hasi hasashe amakaro afite ibara ry'umweru, ni kwa muganga mu bitaro.

Ubusitani bwiza buri hafi y'inzu zimeze nk'amacumbi y'abanyeshuri, hirya hari ingarani isa umutuku bamenamo ibishingwe hakaba hari n'amatiyo y'amazi ajyana amazi meza ku banyeshuri.

Urupapuro ruriho gahunda za guverinoma y'u Rwanda aho ugenda ukarusoma ukamenya amategeko y'igihugu cyacu kigenderaho, bityo wakora icyaha ukamenya ingingo ziguhana, ndetse n'ingingo zikurengera.

Umugabo wambaye amadarubindi, yambaye ikanzu itukura yambaye na karuvati y'umweru inyuma ye hari igikuta gisa umweru akaba ari umucamanza ushinzwe kuburana ndetse akanaburanya abantu.

Urupapuro ruri mu ibara ry'umweru, ni urupapuro rugaragaza gahunda za leta zijyanye n'ubucamanza ndetse n'izindi gahunda z'amategeko umuntu ahanirwa iyo yakoze icyaha.

Umugore urimo urajyanwa n'abapolisi babiri yambaye amapingu bagiye kumuburanisha ku byaha bigiye bitandukanye, hirya hari umunyamategeko ufite ibitabo mu ntoki ndetse n'undi mugore uri inyuma nawe ujyanywe nk'imfungwa.

Abagororwa bambaye imyenda y'amaroza bakaba bari kujya mu nzu y'inyubako igeretse inshuro nyinshi bigaragara ko ari ku rukiko baje kuburanishwa ku byaha bakoze.

Abagororwa bambaye imyenda isa oranje, bakaba barimo bararahira basaba imbabazi. Bose bariyogoshesheje, bambaye inkweto zifunze. Bari mu ruhame rw'abantu bahagaze mu busitani.

Umucamanza wambaye ikanzu itukura, yambaye karuvati y'umweru, ni umugabo w'igikara, akaba ahagaze, inyuma ye hari igikuta cy'umweru, aba ngaba bakaba baburanya abanyabyaha.

Umugabo w'umucamanza, wambaye ikanzu y'umutuku, yambaye ingofero y'umukara irimo umurongo w'umuhondo, yifotoje ari kureba imbere muri kamera, inyuma ye hari igikuta cyumweru.

Umugabo uri mu rukiko, wambaye imyenda yera y'iroza, akaba yegeranye n'umugabo ushinzwe kumwunganira mu mategeko, wambaye ikote ry'umukara bose bambaye udupfukamunwa.

Abagabo barimo baraburanishwa, ni imfungwa, zambaye imyenda y'iroza, bakaba baburanwa ku byaha bakoze bya Jenoside, inyuma yabo hari abaturage baje gukurikirana uru rubanza.

Umugabo wambaye kositimu ari kuvugira mu ndangururamajwi, inyuma ye hari igitambaro gisa ubururu, akaba ari umukozi wa leta cyangwa akaba ari umugitifu w'agace runaka.

Umuhanda wa kaburimbo w'umukara, hirya hari imodoka ya porisi ishinzwe umutekano wo m'umuhanda, k'uruhande hari icyapa gisa icyatsi ndangamerekezo y'ahantu ugiye.

Inyubako y'igorofa igeretse inshuro eshanu. Ikoreramo ikigo cy'igihugu gishinzwe umutekano cya polisi. Iteye amarangi ari mu ibara ry'ivu ryirabura ndetse n'iryerurutse. Imbere yayo hari parikingi irimo imodoka.

Abagabo bashinzwe kuzimya umuriro, umwe yicaye hasi, yambaye umupira w'umutuku. Imbere yabo hari imodoka ziba zirimo ibigega by'amazi ndetse bafite n'ihombo rinini cyane ry'umutuku, rimena amazi.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyuramo ikinyabiziga cya moto ihetse umugenzi, hirya yaho hari ubusitani buteyemo indabo n'umuporisi ukora mu ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda.

Abashinzwe kuzimya umuriro w'amashanyarazi, inyuma yabo hari igikamyo kinini cyane cy'umutuku kiba gifite ikigega kivamo amazi anyura mu itiyo y'umutuku bafite, akaba abafasha kuba bazimya inkongi z'umuriro.

Mu muhanda haparitsemo ikimodoka kinini gishinzwe kuzimya umuriro w'amashanyarazi ahantu hatewe n'ibyo byago hakaba hari ihombo risa umutuku riri hasi cyane ryamennye amazi mu muhanda wa kaburimbo.

Itiyo isa ibara ry'umutuku, ijyana amazi yifashishwa mu kuzimya umuriro w'amashanyarazi igihe wabaye inkongi. Iteye hakurya y'igipangu gifite utwuma duteye irangi ry'umweru.

Abapolisi b'u rwanda bambaye imyenda y'umukara bafite imbunda mu ntoki bagiye mu butumwa bw'amahoro aho bambaye imyenda iriho n'ibendera ry'igihugu cyacu cy'u rwanda bahagaze ahantu hari kaburimbo.

Icyuma gishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro. Gisize irangi ry'umutuku kandi cyometse ku rukuta rusa umweru. Kikaba cyifashishwa mu gihe habaye ibyago by'umuriro. Gisohora umwuka ushinzwe kuzimya.

Inzu ya polisi y'igihugu yo kwa Kabuga, igereretse inshuro eshanu, hasi haparitse amamodoka y'abashinzwe umutekano bashyiramo abantu bakoze ibyaha bakabageza aha hantu.

Minisitiri ushinzwe urubyiruko arimo ararahira yitwa dogiteri utumwa kwishima akaba yambaye kositimu isa ubururu na karuvati y'ubururu ari kuvugira ku ndangururamajwi iri imbere ye.

Abaturage batonze umurongo bahagaze ahantu hashashe amabuye harimo uwambaye ishati y'ubururu bwera, akaba yambaye n'ipantaro isa umweru, n'inkweto za congo.

Mu gikorwa cyo kwamamaza perezida Paul kagame. Aba ni abapolisi b'umwihariko bamurinda. Inyuma ye hari abantu benshi cyane baje kumushyigikira mu kwiyamamaza. Bafite ibendera riri mu ibara ry'umutuku, umweru, n'ubururu.

Mu nzu y'inteko ishingama amategeko y'u Rwanda, harimo abagabo bambaye amakositimu y'umukara, imbere yabo hari indangururamajwi bifashisha bari gutanga ikiganiro kandi barimo kunywa amazi y'Inyange.

Abagabo bari mu nteko nshingamategeko, bambaye amakote. Hirya hari indangururamajwi bavugiramo, ndetse bakaba ari abantu benshi. Harimo n'uwambaye amadarubindi. Hano ni ahantu abadepite n'abasenateri bakorera.

Inyubako zimeze nk'ibitaro, hirya hari amahema y'umweru n'abaturage bari kugendagenda, hirya yaho hateretsemo ubusitani burimo ibiti byiza by'amabara ndetse hirya hari n'ivatiri.

Umukandida wiyamamarizaga kuyobora repubulika y'u Rwanda, ari kuvugira ku ndangururamajwi. Ahantu ari nta bantu bahari, hari abantu batarenze icumi ariko ari kwiyamamaza yambaye kositime y'umukara.

Urupapuro rugaragaza inyandiko ziri mu rurimi rw'icyongereza, hirya hari ibika bimeze nk'ibiri mu ibara ry'ubururu. Bigiye biriho umutwe wa buri kintu n'icyo gisobanuye hirya mu magambo arambuye.

Abayobozi ba leta barimo bararahirira inshingano batorewe, bafashe ku ibendera ry'igihugu risa ibara ry'icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu, hagati mu ibendera harimo ikimenyetso cy'izuba, bakaba bari mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda.

Abayobozi ba leta. Bari hamwe batonze umurongo, harimo abafite amashakoshi n'abandi bambaye amadarubindi. Barimo barifotoza nyuma y'inama bakoze. Inyuma yabo hari urukuta rusa ibara ry'umweru.

Ikirangantego cya FPR na PSD ndetse n'irindi shyaka rya politiki mu Rwanda, barimo baragaragaza indangagaciro zabo muri aya magambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Mu nzu y'inteko shingamategeko y'u Rwanda harimo abayobozi barimo baraganira n'umugore ndetse n'umugabo, umugabo yambaye amadarubindi imbere yabo hari indangururamajwi ibafasha gutanga ibitekerezo byabo.

Umuntu ufite impapuro z'itora ziriho abayobozi biyamamarizaga kuyobora u Rwanda, dusangamo paul Kagame, Frank Habineza, na Philippe Mpayimana. akaba ari bamwe mu bantu biyamamazaga kuyobora u Rwanda.

PerezidaPaul Kagame ari gusuhuza umudamu wambaye ishati y'umutuku. Inyuma yabo hari ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, repubulika y'u Rwanda, kirimo agaseke ndetse n'imiheto ku ruhande.

Abagore babiri, umwe yambaye ipantaro n'undi yambaye ijipo isa umukara, ni abagore bameze nk’abarimu barimo baramanika imyanzuro yavuye mu matora ya Perezida wa Repubulika.

Perezida wa repubulika y'u Rwanda nyakubahwa Poro kagame ari gusuhuza umusaza wambaye ikositimu, inyuma yabo hari n'abandi bantu bishimye cyane baje kwitabira ibi biganiro.

Mu nzu y'inteko shingamategeko y'u Rwanda, harimo umugabo wambaye ikote ry'umukara arimo aratanga agaseke ngo bashyimo amafaranga, abantu bari kwicaye ahantu hari mudasobwa z'umukara.

Abantu bicaye muri hoteli harimo nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, yambaye ikositimu y'umukara, akaba anambaye amadarubindi, yicaye ku ntebe hagati y'abandi.

Mu nteko nshingamategeko y'u Rwanda. Hari abantu batandukanye biganjemo abadepite n'abasenateri. Bakaba barimo barafata imyanzuro igiye itandukanye ku baturage bayo.

Perezida Paul Kagame yambaye ishati isa icyatsi, ari kwitora mu gasanduku kabugenewe, hakaba ari mu gihe hari hari kuba amatora muri repubulika y'u Rwanda, inyuma ye hari inyakiramashusho nini cyane iri kwaka.

Umugore wo mu Rwanda w'umunyabyaha wafunzwe, akaba yarageze igihe agahabwa imbabazi na Perezida wa repubulika. Yambaye amadarubindi, yicaye ku ntebe y'umweru.

Amatora yabereye mu Rwanda mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane, hiyamamarijemo Paul Kagame, Habineza Frank na Mpayimana Philippe, hakaba ari Paul Kagame watsinze ku kigero cya mirongo icyenda n'icyenda n'ibice cumi na bitanu ku ijana.

Perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Iri ni ishyaka ayoboye ryitwa Efuperi, rifite ibendera rifite ibara ry'umutuku, umweru n'ubururu. Aha ni mu gikorwa yari yagiyemo cyo kwiyamamaza, kongera kuyobora igihugu cy'u Rwanda.

Imodoka zabugenewe mu rugendo za bisi isa ibara ry'ubururu kandi ifitemo n'ibara ry'umweru iri muri gare yo mu mujyi ikaba itwara abagenzi bamwe baba bicaye abandi bahagaze.

Imodoka yo mu bwoko bwa fuso iteye amarangi y'umweru hirya yayo hari umunyamaguru uri kugendera mu muhanda wagenewe abantu bagenda n'amaguru yambaye inkweto zirimo akabara gasa umweru hasi.

Imodoka ya bisi, ifite ibara ry'umuhondo n'umweru. Iri kugendera mu muhanda wa kaburimbo. Hejuru gato hari ishyamba ririmo ibiti bikikije umuhanda. Hakaba harimo haragenderwamo n'umumotari utwaye umugenzi.

Ikinyabiziga cya moto kiriho umumotari wambaye kasike y'umutuku ndetse n'umupira w'umutuku akaba ari kugendera mu muhanda wa kaburimbo, hirya ye hari inzu y'iduka icururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye iteye irangi ry'icyatsi ku miryango.

Umunyonzi ufite igare ririho umufuka w'umweru, urimo ibirayi ari kugendera mu muhanda wa kaburimbo, hirya ye hari imodoka y'ivatiri isa umweru.

Ibiti biteye mu busitani bumeze nk'igihuru. Imbere gato hari igikamyo gisa umweru n'ubururu, kiri kugendera ku muhanda wa kaburimbo. Cyegeranye n'umuyonzi utwaye umuntu.

Imodoka yabugenewe itwara abagenzi, isa ibara ry'icyatsi, imbere harimo abagenzi benshi cyane, ku ruhande rw'iyi modoka hari ipikipiki y'amapine atatu itwara ibicuruzwa, ikaba isa ibara ry'ubururu.

Abamotari bambaye imyenda y'umuhondo n'ubururu, bari ku binyabiziga byabo ahabugenewe, guparika imbere hari umuhanda wa kaburimbo, bakaba baba bategereje abagenzi.

Imodoka ya busi isa ibara ry'ubururu n'umweru hagati yayo hari abantu bari kunyuranyuranamo irikugendera ku muhanda wa kaburimbo kandi iri kwakamo amatara asa umweru n'umutuku.

Imodoka isa umweru iri kugendera ku muhanda wa kaburimbo w'umukara, ikaba itwara inyama. Mo imbere haba harimo ibyuma bikonjesha, inyuma yayo hari moto ziri kugenda zitariho abagenzi.

Imodoka itwara abagenzi ya Hiyasi iri mu ibara ry'umweru, harimo utubara tw'icyatsi hagati. iri muri gare ya Nyabugogo. Iri kugendera kuri kaburimbo.

Ibiti birebire biteye hirya y'umuhanda mu ishyamba, umuhanda uri gucamo imodoka isa ibara nk'iry'ironji ndetse n'umweru, harimo abagenzi benshi, bamwe baricaye abandi barahagaze.

Imodoka yo mu bwoko bwa kwasiteri, ifite ibara ry'umweru, hirya hari umugabo uri kugenda uhetse igikapu, ihagaze ku muhanda wa kaburimbo, hirya hari n'indi modoka itwara abagenzi isa ubururu n'umweru.

Imodoka yo mu bwoko bwa Fuso. Iri kugendera ku muhanda wa kaburimbo. Hirya hari ibiti birebire ndetse n'ishyamba. Hakaba hari na moto iri kubisikanwa n'iyi modoka muri uyu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo w'umukara urimo uracamo ibinyabiziga byiganjemo moto ndetse n'imodoka. Imodoka isa ibara ry'umweru, hirya y'izi y'ibi binyabiziga hari inyubako ndende.

Imodoka yo mu bwoko bwa Daihatso ifite irangi ry'umweru na shitingi ipfundikiye amatafari ari mo imbere, ikaba ikoreshwa mu bikorwa byo kubaka, aho igemura ibikoresho hirya no hino ku mazu bari kubaka.

Ipikipiki y'amapine atatu iri mu ibara ry'icyatsi iri kugendera ku muhanda wa kaburimbo. Hirya hari n'izindi modoka zigiye zitandukanye, ni munsisiro z'imihanda hakaba hari n'ibyapa biranga amerekezo.

Moto ifite amapine atatu, iteye irangi ry'ubururu. Imbere yayo hari n'undi muntu ushinzwe gutwara ikinyamitende kigira amapine abiri. Yambaye ijire y'ubururu ndetse n'umuhondo, akaba yambaye na kasike isa ibara ry'umuhondo.

Imodoka ya tagisi isa ibara ry'umweru, ikaba itwara abantu b'umwihariko ibajyana ahantu hagiye hatandukanye, hasi yayo iri kugendera kuri kaburimbo isa umukara.

Moto iri mu ibara ry'ubururu ya rifani, yicayeho umugabo wambaye igisarubeti cy'umuhondo, iyi moto itwara imizigo igiye itandukanye hirya no hino mu mujyi aho dusangamo nk'ibirayi n'ibindi bintu biba biremereye.

Bisi itwara abagenzi rusange isa ibara ry'umweru irimo imirongo y'icyatsi itandukanye, iri kugendera ku muhanda wa kaburimbo hirya yayo hari akayira k'abanyamaguru gashashemo amabuye, kuruhande harimo ibiti birebire cyane.

Imodoka ya fuso ipakiye inka, inyuma iteye irangi ry'umweru, hariho utwuma dusa ubururu, kandi iri kugendera ku muhanda wa kaburimbo y'umukara.

Romoruki nini iriho shitingi ipfundikiye ibicuruzwa, imbere ku kizuru hasa ubururu, hari umuhanda wa kaburimbo iri kunyuramo ndetse hakaba hari n'umuyede wambaye ijire isa icyatsi na bote.

Imodoka nini cyane itwara imicanga ya hoho, iri kugendera m'umuhanda w'umukara wa kaburimbo, inyuma yayo hari akandi kamodoka kazwi nka rifani gatwara ibicuruzwa kagendera ku mapine atatu.

Moto izwi nka refani igira amapine atatu, iteye irangi ry'ubururu, imbere yayo hari igikamyo cya hoho gitwara imicanga iri kugendera mu muhanda wa kaburimbo w'umukara.

Imodoka nini cyane ifite igi kontineri gisa icyatsi, imbere ifite ikizuru cy'umweru irimo umushoferi wambaye ishati, kuruhande hari umugabo uri kugendesha igipine.

Imodoka ya rukururana ihetse igikontineri gisa ubururu, imbere ifite ikizuru cy'umweru, iri mu muhanda wa kaburimbo aho mu muhanda w'abanyamaguru harimo umukarani wikoreye umufuka urimo ibintu by'ibicuruzwa.

Umuhanda wa kaburimbo urimohoraracamo ikinyabiziga cya moto, kiriho umumotari wambaye ijire isa ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, inyuma ye hari umukarani uri gusunika ingorofani.

Imodoka yo mu bwoko bwa hiyasi iri mu ibara ry'umweru nicyatsi, ni imodoka za kera zakoreshwaga ahagana mu mwaka ibihumbi bibiri na cumi. Imbere hari indi modoka igezweho, nziza cyane ya bisi ifite amabara y'irangi ry'icyatsi.

Imodoka y'igikamyo gisa ibara ry'umweru, ifite shitingi isa kaki, iri kugendera mu muhanda wa kaburimbo, aho ku ruhande hari moto irimo iragenda ihetse umugenzi.

Umuhanda urimo akanyabiziga kagendera ku mapine atatu, kariho ibyapa by'inzoga ya pirimusi ndetse harimo n'umuntu ugatwaye wambaye kasike ku mutwe ari kugendera ku muhanda wa kaburimbo.

Ikinyabiziga cya moto kiri mu muhanda mu masaha ya nijoro, hirya haparitse amavatiri ari mu ibara ry'umweru ageze muri atatu, kandi aparitse ahantu hari kaburimbo ishashe hasi.

Mu mujyi wa Kigali ahantu hagenewe kugenda n'amaguru, ntabinyabiziga byemerewe kuhagera, hateguye neza haba murandasi y'ubuntu, umuntu wese arahagera akaba yabasha kwifotoza ndetse akanaruhuka.

Inzu iri mu mujyi ahantu habugenewe hacururizwa ibintu bya kinyafurika by'ubugeni, byiganjemo amashusho y'abantu b'intwari ndetse hirya hari n'indi nzu nayo icuruza ikawa.

Mu Mujyi wa Kigali, ahantu abantu bagenda n’amaguru, nta modoka zihaca, hateyemo ubusitani bwiza, kandi harimo inzu zikozwe mu mbaho zicururizwamo imitako ndetse n’ikawa.

Ikibuga gikinirwamo umukino wa tenisi, kirimo ibitaka bisashe hasi, hagati na hagati hari inshundura igabanya ikibuga mo kabiri, hirya hari abantu bahagaze mu byicaro byabugenewe by'abantu baje kureba uyu mukino.

Icyapa cyo ku muhanda kiriho utwerekezo tubiri kamwe kanditseho ka na gatatu akandi kanditseho ka na mirongo itatu, akaba ari amazina y'imihanda iba mu mujyi wa Kigali Kicukiro.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ibara ry'umuhondo ni mpande enye icuritse; kikaba cyerekana ko imbere hari umuhanda w'ikorosi ukatirwamo; muri uwo muhanda hirya yaho hateye ibyatsi ariko byarumye cyane.

Icyapa cyo mu muhanda gifite isura ya mpande eshatu, umuzenguruko ni umutuku, ubuso ni umweru, harimo ibara ry'umukara rigaragaza umuhanda ugenda ugahura n'undi gishinze ku cyuma.

Icyapa cyo mu muhanda, kiriho igare, kigaragaza ko nta kinyabiziga cy'igare cyemerewe kuhanyura. Kiri mu bara ry'umutuku, umweru. Kikaba gishyirwa ku nkengero z'imihanda igiye itandukanye.

Icyapa cyo ku muhanda kiri mu ishusho ya mpandeshatu ubuso ni umweru umuzenguruko wacyo ni umutuku. Harimo umugabo uriw ibara ry'umukara ufite igitiyo mu ntoki ugishinze mu mucanga. Bigaragaza ko imbere hari gukorerwa imirimo.

Umuntu uhagaze ku cyapa cyanditseho Repubulika y'u Rwanda. Ahagaze mu busitani. Aha hantu ari ni ku mupaka w'u Rwanda n'ikindi gihugu cy'igituranyi. Hirya hari umuhanda wa kaburimbo w'umukara.

Icyapa cyo ku muhanda, cya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru. Harimo ikimenyetso cy'umusaraba, gisa umukara. Gishinze mu busitani bwegereye umuhanda.

Icyapa cya mpandeshatu cyo mu muhanda. Umuzenguruko ni umutuku, ubuso ni umuhondo. Harimo umuntu ufite igitiyo, uri kugishinga mu mucanga. Kigaragaza ko imbere gatoya hari gukorwa ibikorwa remezo.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho ya mpande eshatu kiri mu buso bw'umuhondo, umuzenguruko w'umutuku harimo ikimenyetso cya karindwi ku ijana nk'ubuhaname bw'uyu muhanda ku ijanisha.

Inzu nyinshi cyane, ziri ahantu ku musozi, hirya hari n'inyubako zigeretse. Imbere gatoya hari ikigega cy'umukara, kijyamo litiro ibihumbi bitanu by'amazi.

Inzu zigezweho ziri ahantu hateye ibiti byinshi hari n'inzu z'amagorofa ziteye irangi ry'umweru, ni i Remera ahantu hazwi nko kwa Rndo ni ahantu ushobora kugura inzu nziza kandi igezweho.

Inyubako y'igorofa igeretse rimwe, imbere yayo haparitse ama modoka, ayo ma modoka ari mu kibuga gishashemo amabuye, kandi imwe isa ibara ry'umweru indi ikabisa n'ibara risa umweru wijimye.

Inyubako yo mu bwoko bwa kadasitere ni igorofa rigeretse kabiri, hirya hari umukobwa wambaye ibitenge ufite akabido ugiye kugura amata, hakaba hari n'ubusitani buteye hirya y'iyi nzu.

Ikibanza giparitsemo imodoka hasi hashashemo amabuye ndetse hirya hari inyubako y'igorofa igeretse kabiri iri mu ibara ry'umukara ndetse n'umuhondo.

Ishami rya banki ya Kigali mu Rwanda, riri mu isoko rya Nyarugenge. Riri mu mabara y'ubururu n'umweru, hakaba hari n'icyapa hejuru cyamamaza iyi banki.

Uruzitiro rw'ishuri ry'irerero ry'abana batoya ruteye irangi ry'umweru n'ubururu. Imbere mu kigo hari abana bari mu bikinisho byabo bambaye impuzankano y'ishuri isa umuhondo n'umukara.

Imodoka yo mu bwoko bwa Toyota, iparitse ku mabuye ashashe hasi, imbere yayo hari inyubako icururizwamo inzoga ndetse hari n'icyapa kiririmo ibara ry'umukara kiriho ibishushanyo by'ubwoko bw'izo nzoga.

Ubusitani buteye imbere y'igipangu cyubakishije amatafari ahiye hateyemo ibiti by'imikindo hirya mu gipangu imbere harimo igorofa rigeretse inshuro nyinshi, riri m'ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'ironji.

Inyubako y'igorofa igeretse gatatu iteye irangi ry'umukara n'umweru; imbere yayo hanyuranyuranamo insinga z'umuriro w'amashanyarazi ziba ziwugemuye mu ngo z'abaturage.

Inzu nziza cyane iteye irangi risa umweru, imbere yayo hari ubusitani, hakaba hari n'imikindo itarakura iki mitoya, ikaba ari inzu yo guturamo cyangwa inzu y'amacumbi.

Inzu y'amacumbi nini cyane, ifite icyapa cya makumyabiri na gatatu nk'ikirango cy'izina ryayo, ikaba ikingishwa igipangu gikozwe mu mbaho igeretse inshuro zigera kuri eshatu ifite ibara ry'umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo uri mu ibara ry'umukara, hirya hari inyubako y'igorofa igereretse inshuro eshanu, iteye irangi r'vu n'umweru, ku ruhande rw'uyu muhanda hateye ubusitani.

Umuturage uri kugenda mu muhanda w'ibitaka, yambaye ikabutura isa icyatsi n'umupira w'ubururu, inyuma ye hari imodoka y'umukara yegeranye n'umuntu wambaye ipantaro isa umweru.

Isoko bahahiramo hari icyapa gisa ibara ry'umweru kirimo amabara asa n'ubururu ku ruhande, hasi hari umuryango urimo bimwe mu bicuruzwa bicururizwa muri iri soko.

Ibibanza bikase, ahantu hadatuwe abantu benshi, gusa harimo inyubako zigezweho, zigendanye n'igihe tugezemo. Hakaba ari mu ishyamba rigari cyane, hirya hari n'ibiti birebire.

Ahantu habugenewe hacururizwa imyenda y'abantu bagiye batandukanye, hari ibipupe biriho byambaye imyenda. Bigaragaza ubwiza bwayo, imbere yabyo hashashe amabuye hasi.

Imodoka y'umutuku y'Ivatiri, ku ruhande hari indi isa umukara na yo yo mu bwoko bwa Lava, zihagaze ahantu hashashe amabuye, hirya hari abakerarugendo bambaye ibikapu mu mugongo.

Inyubako igeretse inshuro eshatu. Iherereye mu mujyi wa kigali. Imbere yayo haparitse imodoka ebyiri; iya toyota y'umukara, n'indi vatiri y'umweru. Hari n'umumotari uri kunyura mu muhanda.

Umusozi uriho amazu agiye atandukanye ndetse hari n'ibiti byinshi, ni ku manywa hakaba hari n'inzu y'igorofa y'inyubako igeretse gatatu iri mu ibara ry'umweru n'ibara ry'ivu.

Igipangu kiri mu ibara ry'umukara, gifunze ahantu hari igorofa rigeretse inshuro eshatu, riteye irangi risa nka kaki, hasi haparitsemo imodoka y'umweru ndetse hirya hanaparitseho indi modoka.

Ibiti biteye ahantu hari ibyatsi byinshi, hasi y'ibi biti hari ipoto yanditseho ka ka ka cumi na kane akaba ari umuhanda uba muri Kicukiro ni ahantu umuntu ashobora kugera agahita amenya icyerekezo agiyemo.

Umuhanda uri kunyuramo ibinyabiziga by'umukara, binini cyane. Hirya hari umunyamaguru uri kugenda mu kayira kagenwe, gashashemo amabuye. Ndetse hirya y'aka kayira hari ubusitani buteyemo ifoto yo ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo uri mu ibara ry'umukara. Hirya hari akadundi kigiye hejuru, kariho ibara ry'umukara n'umweru, gashashemo amabuye. Kakaba gahagarararwaho n'abanyamaguru mu gihe bategereje kwambuka.

Umuhanda wa kaburimbo w'umukara, hirya hari ibiti biwukikije ndetse n'ubusitani, hagati y'umuhanda harimo akayira gatoya katagendwamo n'abantu ariko gateyemo imikindo itaka uyu muhanda.

Moto iri kugendera mu muhanda wa kaburimbo, inyuma hari n'indi iyikurikiye, birimo biramanuka ahantu hasa nk'ahamanuka cyane, ku ruhande hari ubusitani buteye bugira aha ahantu heza harimo n'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto iri kugenda igana hafi y'ikorosi ukaba usa ibara ry'umukara, hirya y'uyu muhanda hari ibiti ndetse n'ubusitani butoshye.

Akayira k'abanyamaguru, gakikijwe n'ubusitani buteyemo ibiti byo ku muhanda. Hejuru hari umukingo w'amabuye. Uyu umukingo, hirya yawo wari inzu ziteye amarangi y'umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amarangi y'umweru, aho abanyamaguru banyura bari kwambuka, imbere hari akamodoka k'amapine atatu gasa ubururu, gashinzwe kwikorera imizigo.

Mu isangano ry'imihanda ya kaburimbo y'umukara. Harimo imodoka isa umutuku irimo iragenda. Ku ruhande hari ishyamba riteyemo ibiti ndetse n'ubusitani. Hakaba hari n'umumotari utwaye ikinyabiziga cye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bya moto, hirya hari akazu k'ubururu abantu bategererezamo imodoka kandi hakaba hari n'ubusitani bwinshi buri inyuma y'aka kazu n'ibiti birebire.

Mu isangano ry'imihanda ya kaburimbo harimo amarangi asize hasi asa umweru imbere hari moto irimo iragenda iriho umumotari wambaye ijuru isa ubururu ndetse n'umuhondo.

Ibiti biteye hakurya y'umuhanda, biteye mu busitani, imbere hari kaburimbo y'umukara, hakaba hari n'urukuta ruteye irangi ry'umweru n'icyapa cyo mu muhanda kiri kureba kuru ruhande rwo hirya.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto irimo irakata mu ikorosi, ikorosi ririho utuntu tw'amabuye turiho irange ry'umweru n'umukara, dushinzwe gutandukanya umuhanda w'abanyamaguru ndetse n'uw'ibinyabiziga.

Mu masaha ya n'ijoro, hari imodoka irimo iragenda yacanye amatara y'inyuma atukura, hirya hari ubusitani buri kunyuramo abantu bagiye batandukanye.

Umuhanda w'ibitaka hirya y'aho hari amazu y'ubucuruzi ndetse hakaba hari n'inzu zo guturamo z' abaturage, imbere gatoya ya buri nzu hagiye hateye ubusitani butoya ndetse n'imikindo.

Umuhanda wa kaburimbo w'umukara unyuranamo hejuru hari ikiraro, hari abamotari barimo baragenda bagera kuri bane, n'undi uri kuza agana aho abandi bavuye, k'uruhande hari ubusitani burimo amawuwa asa umuhondo.